Mu gikorwa cyo kwita ku buzima rusange n'imibereho myiza, abakozi b'ubuzima cyangwa abakorerabushake, batanga ubufasha ku bana bato n'ababyeyi mu rwego rwo kurwanya imirire mibi, gutanga inkingo cyangwa kugenzura ubuzima bw'abana mu baturage batagira uburyo buhoraho bwo kugera ku buvuzi.

Mu rwego rw'ubuvuzi rusange kwakira serivise z'inkingo ni kimwe mu bintu by'ingenzi byemeza ko abana bazabasha gukora neza bafite ubuzima bwiza, akaba ariyo mpamvu rero ari ngombwa cyane kwitabira iyo gahunda kugira ngo bibaririnde indwara zishobora kubica cyangwa kubagiraho ingaruka zikomeye mu gihe bakiri bato.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukeneye amazi kuko adufasha kwita ku buzima bwacu no kwirinda indwara zigiye zitandukanye harimo nk'iseru, korera n'izindi zifata igogora. Mu rwego rwo kunoza ubuzima rusange hariho gahunda zitandukanye zigamije gutanga amasoko y'amazi kugira ngo abaturage cyane cyane abo mu duce tw'ibyaro babone amazi bifashisha. Uko ibyo bikorwa byo kugeza amazi kuri bose byiyongera rero niko n'abarwayi bagana ibigo nderabuzima bazira indwara ziterwa no gukoresha amazi mabi bagenda bagabanuka.

Kubona amazi meza bigira uruhare runini mu kwita ku buzima bw'abanyeshuri , kuko bituma bashobora kugira isuku mbere yo kurya cyangwa nyuma yo kuva mu bwiherero, ibyo bikaba bibagiraho ingaruka nziza mu mibereho yabo n'imyigire yabo , kuko bagira ubuzima bwiza kandi ntibacikanywe n'amasomo kubera indwara zituruka ku mwanda.

Ubuzima bwo mu mutwe ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bw'umuntu, akaba ariyo mpamvu abantu bafite ibibazo nk'ibyo baba bakwiriye guhabwa ubufasha bwihuse kugira ngo babashe kugarura ubuzima bwabo mu buryo bwiza, bajyanwa ku mavuriro cyangwa ibigo byita ku buzima bwo mu mutwe kugira ngo babone inkunga n'ubuvuzi bukwiriye.

Zimwe mu ntego z'abanyeshuri biga ubuforomo bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe mu Rwanda. Ni ukongera ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, gushishikariza abantu kwita ku buzima bwabo bwo mu mutwe, ndetse no kunoza serivisi zijyanye n'izo ntego. Kuko iyo umuntu afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe aba ashobora kwishimira ubuzima, ndetse akagira n'uruhare mu iterambere ry'igihugu ndetse n'umuryango we.

Kugira isuku ihagije y'amenyo bifasha mu gukumira indwara zifata amenyo n'ishinya, ibyo rero bikorwa woza amenyo yawe buri munsi ukoresheje umuti wabugenewe ndetse no kwirinda ibiribwa bikungahaye ku isukari ishobora gutera kwangirika kw'amenyo, ikindi kandi biba byiza iyo wegereye umuganga ushinze indwara zo mu kanwa kugira ngo ukurebere uko ubuzima bwawe bwo mu kanwa buhagaze kuko iyo ufite amenyo mazima bigufasha kugira inseko isukuye ndetse ugasabana n'abandi wifitiye icyizere.

Kugira amenyo meza kandi akomeye bisaba kuyitaho buri munsi, harimo kuyoza byibuze kabiri ku munsi ukoresheje umuti w'amenyo wabugenewe, bikaba byiza kurushaho kugana muganga mu gihe runaka kugira ngo agusuzume bityo bigufashe kwirinda indwara izo ari zo zose zishobora kugera ku menyo yawe ndetse n'ishinya.

Mu buvuzi bw'amenyo ladiography ifasha mu gusuzuma ibibazo byihishe nk'amenyo yabyimbye cyangwa yafashwe n'abarwayi, imizi y'amenyo yangiritse, amenyo ataramera neza cyangwa yihishe ndetse n'indwara z'ishinya cyangwa imikaya y'umunwa.

Abageze mu za bukuru, bakenera ubuvuzi bwihariye, kuko baba bashobora guhura n'indwara zijyana n'imyaka yabo, harimo diyabete, umuvuduko w'amaraso, ubwonko, imitsi n'izindi. Niyompamvu rero baba bagomba gukurikiranwa kenshi, kugira ngo bahabwe inama ku buzima bwabo, urugero nk'ubwo mu mutwe, imirire, imyitozo ngororamubiri, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima ni ingenzi kugira ngo buri muturage abashe gusobanukirwa ibijyanye n'indwara zigiye zitandukanye uko zakirindwa ndetse n'uko yakomeza kugira ubuzima buzira umuze, akaba ariyo mpamvu hategurwa ubukangurambaga bwihariye ku rwego rwa leta kugira ngo basobanurire abaturage ingamba zafashwe na Leta, uko bakwitwara ndetse n'umusanzu bashobora gutanga kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umunsi wahariwe gutanga ubumenyi ku kwirinda kwandura no gukoresha imiti yicaa mikorobe mu buryo butateganyijwe, bugamije gukangurira abantu gukoresha neza imiti yica mikorobe antibiyotike mu ndimi z'amahanga kugira ngo hatabaho kwiyongera kwa mikorobe itavurwa n'imiti.

Zimwe mu ntego ziri mu gice cya gatatu kigamije ubuzima bwiza harimo kugabanya imfu z'abana bato bari munsi y'imyaka itanu, kwita ku bantu bahuye n'ihungabana ry'ubuzima bwo mu mutwe, kwirinda ibyorezo bigiye bitandukanye harimo malariya, Sida ndetse n'izindi, kunoza serivisi z'ubuvuzi ndetse no gufasha abantu kubona imiti mu buryo buboroheye.

Politiki y'ubuzima igamije gukumira no kurwanya indwara zandura n'izitandura, ishyiraho ingamba zitandukanye ku bakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi zibafasha kwirinda izo ndwara, hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe ndetse n'amabwiriza y'umutekano kugira ngo birinde izo ndwara.

Bimwe mu bintu bishobora kuturinda kurwara indwara ya kanseri harimo: kwirinda kugira umubyibuho ukabije, kuko iyo umuntu afite ibiro byinshi aba afite ibyago byinshi byo kuba yarwara nka kanseri y’ibere ndetse n’izindi. Ikintu cya kabiri ni ugukora imyitozo ngororamubiri, cyane ko ari uburyo bwiza cyane bushobora kudufasha kugabanya bya biro. Ikintu cya gatatu ni ukurya indyo yuzuye, tukirinda kurya ibiryo birimo amavuta menshi n’isukari nyinshi. Ibyo bintu byose nitubizirikana, bizatuma tugira ubuzima bwiza ndetse biturinde ya ndwara ya kanseri.

Ahantu hatangirwa serivise zijyanye no kubona imiti n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi. Ni ahantu h'ingenzi cyane kuko bifasha abarwayi kubona imiti yandikiwe na muganga cyangwa ibindi byangombwa byo kwita ku buzima ndetse bakabwirwa n'uko babikoresha.

Inyubako z'ubuvuzi zirimo amavuriro mato ndetse n'ibitaro binini, zigiye zifite imashini zigiye zitandukanye, zibafasha gusuzuma ndetse no kuvura indwara zitandukanye. Zimwe muri izo mashini zibafasha mu kuvura, kubaga, gusuzuma ndetse no kongera umwuka wa oxygen mu ndimi z'amahanga.

Ni iby'ingenzi ko mu nyubako z'ubuvuzi hagaragara ibyumba biteguye neza, kugira ngo bifashe abarwayi kuruhuka mu gihe bari guhabwa serivise z'ubuvuzi. Kuko iyo biteguye neza, bibafasha kumererwa neza mu gihe bari kwa muganga.

Ikigo cyihariye cyakira abarwayi kikabafasha kubona serivisi z'ubuvuzi, gusuzuma, kubagwa, n'izindi zose zijyanye no ku kuvura kanseri, icyo kigo kikaba gifite abaganga n'abahanga mu burwayi bwa kanseri, bakaba bafasha abaturage kubona ubuvuzi bwa kanseri hakiri kare.

Imyitozo ngororamubiri ikenera ko umuntu anywa amazi ahagije kugira ngo umubiri ubone imbaraga ukoresha na nyuma yo gukora siporo kuko amazi ari kimwe mu bintu bishobora gufasha umubiri kwisubiza imbaraga wari watakaje mu gihe wari uri muri siporo.

Imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu bidufasha kongera imbaraga z'umubiri no gukomera kw'ingingo, aho dukoresha ibikoresho bitandukanye byagenewe gukoresha imyitozo ngororamubiri ibyo bikaba bituma umubiri wacu ubasha guhangana n'indwara zitandukanye ndetse igafasha imikaya y'umubiri wacu gukomera.

Emarayi ni uburyo bukoreshwa n'abaganga, hafatwa amashusho mu gusuzuma ubwonko, bakamenya neza ibibazo by'ubwonko: nk'indwara, ibikomere n'imikorere yabyo, cyangwa se kureba imiterere y'amagufwa n'imiyoboro y'amaraso.

alovewo ni igihingwa kizwi cyane kuko cyagiye gikoreshwa mu bihe bigiye bitandukanye bitewe n'ibyiza byacyo, kikaba ari igihingwa rero cyifashishwa cyane mu buvuzi gakondo aho gifasha mu bintu byinshi: nko kuvura ibikomere ibyo aribyo byose, harimo n'iby'ubushye, kikagabanya ububabare, gufasha abantu bafite ibibazo by'ubuhumekero, gufasha mu mikorere myiza y'umutima, ndetse no gutunganya ibibazo byo mu nda harimo n'igogora.